Kugira ngo dutere imbere tugomba gukora cyane tugahinga. Twamara guhinga ibyo twamaze guhinga, tukaza tukabicuruza tukajya kurangura ku masoko. Tudashoboye kwikorera maze tugatera imbere, tugakura amaboko mu mifuka, kugira ngo dutere imbere.

Kwandika inyuguti nkuru zibonwa na buri wese, kandi zifasha buri wese kuzisoma ufite ikibazo icya ari cyo cyose.

Ducuruzaga; ibidomoro ,ibibase, ibiduki, ibigega, n'imyenda, bazaze tugambane mutugurire.

Ikizu nakiniragaho bashiragaho amakaro, kandi caruzuye gisa neza, sibwo bacururizagamo inzoga tujye kunywaga twumve uko zimera.

Umugore w'umutima ni ukubura, agamesa, agaheka abana, agatekera umugabo, akaja no kurangura ibyo ari buze gucuruza.

Karibu kiriya, washakaga iki ? Ducuruzaga amabase, ducuruzaga ibidobo, ibijage, amagare, ibipaniye uraguraga iki?

Kikosite kigira ikiyoga kinini kiba gishushanyije ku gipangu cyabo cyitwa jacoburogi kirasindisha utamenyereye kunywa urwo ruyoga wagenda ugwagwana hasi.

Ubwo uri wenyine ukaba uhangayitse ukaba wibaza byinshi uri gutekereza iki? Kandi wambaye ibyenda n'ibikweto byiza cane. Washaka uko ubana n'abandi mukaba muri kumwe mukaba muganira.

Mu ishoko harimo :ugupantaro, ugukoti ,ugusarubeti gw'abana ,uragura uguhe? njye ndagura ugupantaro, ugugoti ugukweto n'ugusarubeti gw'abana.